Umugabo wambaye imyambaro yiyubashye ifite ibara ry'umweru, ari kumwe n'umuhinzi wambaye imyambaro ahingana, aba bari mu murima urimo igihingwawe k'ibirayi bigifite ururabo, bakaba kandi bafite umuti wifashishwa mu gukumira udukoko twangiza ibyo bihingwa.

Umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'uturindantoki, afite igikoresho kirimo umuti ndetse ari mu murima urimo ibihingwa, uyu ari gutera umuti ibi bihingwa mu rwego rwo kugira ngo ahangane n'udukoko twibasira ibyo bihingwa.

Umugabo wambaye imyambaro imupfuka ahantu hose ndetse n'uturindantoki, afite igikoresho ku mugongo we kirimo umuti, uyu akaba ari gutera umuti igihingwa cy'umuceri kugira ngo kizabashe gukura neza.

Umugabo wambaye imyambaro yabugenewe y'akazi ifite ibara ry'ubururu, uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, afite ikintu kirimo umuti akaba ari kuwutera indabo ndetse n'ibiti byo mu busitani buri imbere y'inyubako ndende y'umweru.

Itsinda rigari ry'abagabo bari ahantu mu kiyaga aho bari gukora ibikorwa by'uburobyi bw'amafi, aba bakaba bari gukoresha ibikoresho gakondo bizwi ku izina ry'inshundura, aya mafi akaba ajyanwa mu ngo kuribwa andi akajyanwa ku isoko.

Ahantu hateganye n'ibiti birebire biri mu ishyamba, hari ibyuzi byuzuyemo amazi, ibi byuzi bikaba bikorerwamo imirimo itandukanye, irimo kororerwamo amafi, aho abantu bazana umwayi w'amafi bakawushyira muri ibyo byuzuye maze uwo mwayi ukazakura, ukavamo amafi makuru.

Ahantu hateganye n'umusozi uriho ibiti by'ubwoko bwinshi, hari ibyuzi birimo amazi menshi, na none kandi muri ibyo byuzi, harimo utwumba twakozwe hifashishijwe amashitingi ndetse tukaba twororewemo amafi.

Aha hantu mu gishanga kirimo amazi ndetse gihinzemo n'umuceri, harimo abagabo bafite igikoresho gikoreshwa mu burobyi kizwi ku izina ry'urushundura, aba bakaba bari gushaka amafi bajyana ku isoko.

Ahantu hateganye n'umusozi muremure uriho ibimera bitandukanye, birimo ibiti ndetse n'ibyatsi, nanone kandi hari inzu yubatswe mu buryo bugezweho hifashishijwe ibyuma, ihinzemo imboga ndetse n'imbuto.

Ahantu harimo amazi menshi akomeye, harimo umubyeyi w'umugabo uri gukora igikorwa cyo kuroba amafi. Uyu akaba ari kwifashisha igikoresho gikoreshwa mu burobyi kigizwe n'inshundura.

Icyuzi giteganye n'umusozi kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo ibikoreshwa mu kuhira imyaka mu rwego rwo kugira ngo harwanywe ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ikirere naryo rituma habaho ubushyuhe bwinshi.

Amazi yagomerewe ahantu hamwe agashyirwamo umwayi w'amafi kugira ngo azakurwemo yaramaze kuba makuru, hari kandi n'igihingwa k'insina cyera ibitoki bivamo imineke maze na yo ikegwamo ikinyobwa cy'urwagwa.

Mu murima w'icyayi munini cyane harimo abagore bambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umukara, aba bafite udutebo bahetse mu mugongo bakaba basarura icyayi bashyira muri utwo dutebo.

Igihingwa cy'ikawa gikunda kwera cyanecyane mu misozi miremire, kizwiho kandi gukiza abantu bagihinga kuko gitanga amafaranga menshi iyo umuhinzi agisaruye maze akakijyana ku ruganda ngo gitunganywe.

Ahantu hitegeye hari umurima munini cyane wezemo icyayi. Iki cyayi iyo kimaze kwera kijyanwa ku ruganda maze kigatunganywa kikoherezwa ku masoko atandukanye yabyo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu.

Mu murima urimo ibiti by'ikawa byaba ibirebire ndetse n'ibito, harimo umugabo uri gusarura ikawa zeze zifite ibara ry'umutuku, izi zikaba ziri buhita zijyanwa ku ruganda maze zigatunganywa mbere yo kujyanwa ku isoko.

Umusaruro w'ikawa urimo utukuye ndetse n'ibitumbwe, iyo izi kawa zeze zijyanwa mu ruganda maze zigatunganywa zikoherezwa ku masoko, yaba ayo mu Gihugu ndetse n'imahanga.

Ababyeyi b'abagore bari mu myakakuze, bari mu murima munini urimo ibiti bikuru by'ikawa ndetse bakaba bari gusarura izi kawa bashyira mu bikoresho bitandukanye, mbere y'uko bazijyana mu nganda zigatunganywa.

Mu murima munini w'icyayi, harimo ababyeyi b'abagore ndetse n'abagabo. Aba bari gusarura icyayi bashyira mu bikoresho bahetse mu mugongo, nyuma yaho bakaba bakijyana mu ruganda maze kigatunganywa.

Igihingwa k'ikawa ni igihingwa gikunda kwera cyane cyane mu misozi miremire, iyo kimaze kwera kikaba gisarurwa maze kikajyanwa mu nganda, abakozi bakora mu nganda bakakitaho mbere yuko kijyanwa ku masoko.

Umurima mugari uhinzemo icyayi, hakaba harimo ndetse n'umugore, uri kugisarura ashyira mu gakoresho kameze nk'agatebo agisaruriramo, iki cyayi kikaba kijyanwa ku masoko atandukanye mu gihugu ndetse no hanze, nyuma yo gutunganyirizwa mu nganda.

Igishanga kinini cyane kirimo amazi aretsemo ndetse gikikijwe n'imisozi, iriho ibiti by'ubwoko bwinshi. Muri iki gishanga, harimo ababyeyi b'abagore, bari kugemura umuceri, bongera bawutera neza mu murima kugira ngo uzakure neza.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umukara, uyu akaba ari gusarura igiti gikuze k'ikawa kiriho ikawa zitukuye zeze ndetse n'izindi zifite ibara ry'icyatsi kibisi zibitumbwe.

Imisozi miremire ndetse minini iriho ibihingwa bitandukanye birimo ibyatsi, ibiti, ndetse n'icyayi akaba ari n'abagore bafite udukoresho dufite ibara ry'umuhondo bayitse ku mugongo ndetse bakaba basarura icyo cyayi bagishyira muri utwo dukoresho mbere yo kukijyana ku ruganda.

Umurima munini uhinzemo igihingwa cy'ikawa ku murongo. iki cyai ni cyera kikaba kizasarurwa maze kikajyanwa mu nganda kigatunganywa neza, kikoherezwa ku isoko ryayo mu mahanga no mu gihugu mo imbere.

Uruhererekane rw'imisozi ihinzeho icyayi ndetse n'abantu bari gusarura icyo cyayi, aba bakaba bagisarura bashyira mu tuntu tumeze nk'udukapu bafite ku mugongo, maze bakishyurwa amafaranga.

Harimo umugabo uri kuzisarura izi kawa zikaba zirimo izitukuye ndetse n'izitarera neza. Izi zikaba zijyanwa mu nganda maze zigatunganywamo ifu imeze neza yo gutekamo ikawa.

Itsinda rigari ry'abahinzi bari mu murima munini w'icyayi, aba bari kugisarura bashyira mu dukoresho bafite ku mugongo wabo aho iyo basoje kugisarura bakijyana mu ruganda maze kigatunganywa.

Imiti ifunze neza mu ducupa tw'ibyuma natwo dufite ibyapa by'umutuku bishushanyijeho imwe mu nyamaswa z'amatungo yo mu rugo izwi ku izina ry'inka. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura izo nyamaswa iyo zifite ibibazo by'uburwayi.

Imiti iri ahantu habugenewe mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, ishushanyijeho rimwe mu matungo maremare yo mu rugo rizwi ku izina ry'inka. Iyi miti ikaba ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amatungo.

Imiti ifunze neza mu mabara y'umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi ndetse no mu ducupa dupfundikiye neza, ibitse ahantu habugenewe hatuma itangirika, iyo miti ivura indwara zitandukanye amatungo yo mu rugo urugero twavugamo nk'inka ndetse n'ihene.

Imiti ifunze neza cyane mu ducupa, ishushanyijeho amatungo yo mu rugo arimo nk'inka intama ndetse n'ihene, iyi miti ikaba ibikwa neza ahantu habugenewe maze ikazifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zibasira amatungo.

Imiti iri ahantu habugenewe ifunze neza mu mabara arimo ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, kuri iyo miti hashushanyijeho amwe mu matungo yo mu rugo nk'intama ndetse n'inka, iyo miti ikaba ivura indwara zitandukanye amatungo.

Mu rwego rwo kugira ngo imiti itangirika idahura n'ubushyuhe bukabije cyangwa se ubukonje bukabije ishyirwa ahantu heza habugenewe, nanone kandi igomba kuba iri mu ducupa dufunze neza mu rwego rwo kugira ngo itangirika.

Uducupa dufite amabara atandukanye, arimo umweru ndetse n'umuhondo dupfundikiye neza hifashishijwe imifuniko ikomeye mu rwego rwo kugira ngo imiti irimomo imbere muri utwo ducupa itangirika iyo miti ivura indwara zitandukanye z'amatungo yo mu rugo.

Ahantu habugenewe habikwa imiti ivura amatungo, iyi miti ifungwa neza mu ducupa dufite amabara y'umukara ndetse igapfundikirwa neza mu rwego rwo kugira ngo itangirika mbere yuko ikoreshwa.

Imiti ifunze neza mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi ishushanyijeho inyamaswa z'amatungo yo mu rugo arimo nk'inka, ihene, intama ndetse n'ayandi, iyi miti ikaba ikoreshwa mu kuvura ayo matungo igihe afite indwara.

Uducupa dufite ibara ry'umweru, ndetse dufunze neza n'imifuniko tukaba dufiteho ibishushanyo birimo iby'inyamaswa z'amatungo yo mu rugo, urugero twavugamo nk'inkoko. Utu ducupa turimo imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo yo mu rugo.

Uducupa dufite amabara y'umuhondo, dufunze neza ndetse turiho ibyapa bishushanyijeho inyamaswa zirimo amatungo yo mu rugo, utu ducupa tubikwamowo umuti ukoreshwa mu kuvura amatungo iyo afashwe n'indwara.

Imiti ifunzwe neza cyane mu mabara y'umweru ndetse n'umukara iyo miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zibasira amatungo yo mu rugo twavuga urugero nk'inka ihene ingurube ndetse n'ayandi.

Ahantu habugenewe hari imiti ifunze neza mu ducupa ndetse inapfundikiye, iyi miti imwe n'imwe ikaba ishushanyijeho amwe mu matungo, urugero twavuga nk'inkoko, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kuri ayo matungo.

Ubwanikiro buriho umusaruro mwinshi w'ibigori byumye, iyo bimaze kuma biratonorwa neza maze bigahungungurwa bikajyanwa mu nganda aho bisheshwamo ifu nayo igakorwamo akawunga.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda zo gutema igiti kimwe ariko igatera bibiri mu rwego rwo kugira ngo ihangane n'ihindagurika ry'ibihe cyane cyane riterwa no kuba amashyamba atemwa cyane. Ibi bikaba bifasha mu rwego rwo kugira ngo amashyamba adakendera ndetse n'ingaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ibihe zigabanyuke.

Mu kiraro cyubatswe mu buryo bwiza, gifite amabare y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, harimo umworozi akaba ari kwita ku nka ye, iyi nka ikaba itanga umusaruro, iyo yitaweho igahabwa ibyo kurya ndetse ikanakingirwa indwara zishobora kuba zatuma igira ubuzima bubi.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara n'icyatsi kibisi ari gukora igikorwa cyo gutera ibiti byera imbuto, nanone kandi hari umurima munini urimo insina zera ibitoki byaba ibikurwamo imineke ndetse n'ibikorwamo urwagwa.

Abagabo babiri bakora ibijyanye n'ubuhinzi cyane cyane ubw'ibihingwa by'ibigori, bari kubisarura nyuma yo kubisarura barabijyana mu bwanakiro maze nibimara kuma bazabihungure babisheshemo ifu.

Mu murima urimo ibihingwa bitandukanye birimo insina zera ibitoki ndetse n'imigozi yera ibijumba, harimo umubyeyi w'umugore uri gukora ubuhinzi yifashishije igikoresho kifashishwa mu buhinzi kizwi ku izina ry'isuka.

Umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi kibisi, ari ahantu mu ishyamba harimo ibiti bikiri bito, uyu ari mu gikorwa cyo gutera ibindi biti, mu rwego rwo kugira ngo amashyamba atazacika mu igihugu.

Abakozi bambaye imyambaro y'akazi irimo amajire ndetse n'inkweto zifashishwa cyane cyane mu mirimo y'ubwubatsi ndetse n'ubuhinzi, bicaye ahantu mu gashyamba aho bari kugirwa inama n'umukozi ubakuriye.

Umugabo wambaye imyambaro y'ubururu ari mu kiraro gikozwe n'ibyuma kirimo inka ya kijyambere ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, izi nka zikaba zitabwaho maze zigatanga umusaruro wiganjemo amata ndetse n'inyama.

Umugabo ndetse n'umugore we bafite ibikoresho bya gakondo byifashishwa mu buhinzi birimo amasuka. Aba bakaba bari mu murima uteyemo ibihingwa bitandukanye birimo nk'insina zera ibitoki ndetse n'imyumbati.

Mu rwego rwo kugira ngo Leta ihangane n'umusaruro muke uva mu bihingwa, hashyizweho uburyo bwo guhuza ubutaka ndetse no guhinga ku murongo, ibi bikaba bifasha kugira ngo umusaruro uva mu buhinzi wiyongere.

Umubyeyi w'umugore muremure, wambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara, umutuku ndetse n'ubururu, ari ahantu mu murima urimo igihingwa k'ibigori, iki gihingwa iyo gikuze kikaba gisarurwa maze kigahungurwa, kigakorwarwamo ifu itekwamo akawunga.

Ahantu hafite ubwatsi butoshye hazwi ku izina ry'urwuri, harimo umugabo uragiye inka zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru. Izi nka iyo zarishije neza ndetse zikitabwaho zitanga umusaruro urimo umukamo mwinshi.

Ahantu mu gisambu hari ibyatsi bitoshye, harimo abantu bavuye guhinga barimo abagabo ndetse n'abagore. Uwo mugore akaba yikoreye inkwi ku mutwe, ndetse n'undi mugabo akaba afite igikoresho gikoreshwa mu gutema ibiti, mbere yo kugira ngo bahinge icyo gikoresho kikaba kitwa umuhoro.

Ahantu mu gisambu harimo ubwatsi butoshye, harimo abagabo bambaye imyambaro irimo uturindantoki ndetse n'inkweto zabugenewe zikoreshwa mu mirimo irimo ijyanye n'ubuhinzi bari gutera ibiti.

Ikiraro gikozwe neza mu byuma ndetse kikaba kirimo inka za kizungu, zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, izi nka zikaba zitabwaho neza n'abaganga ndetse zigahabwa imiti mu gihe zirwaye indwara, maze nazo zigatanga umusaruro.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi ugizwe n'inyanya zaba izitukuye ndetse n'izidatuku, ubutunguru, imiteja ndetse n'imboga rwatsi, bikaba bifasha umubiri kugira ngo ugire imbaraga ndetse unirinde indwara zitandukanye.

Umurima uhinzemo ibintu bitandukanye birimo nk'ibiti byera imbuto, izi mbuto iyo zeze zikaba zijyanwa ku isoko maze izindi zikajyanwa mu nganda aho zikorwamo ibintu bitandukanye birimo imiti ndetse n'imitobe yo kunywa.

Ibirimo ibyo kurya ndetse n'ibyokunywa bikoreshwa cyanecyane mu rugo byateranyirijwe ahantu hamwe, ibi birimo ibitekwa ndetse n'ibiribwa bitiriwe bitekwa bikaba bicururizwa mu mazu yabugenewe akorerwamo ubucuruzi.

Ahantu mu gishanga hitegewe n'imisozi miremire, hakaba hahinzemo ibihingwa birimo ibigori, ibi bigori iyo bimaze bikaba byitabwaho bikanikwa, maze bigahungurwa mbere y'uko bijyanwa mu nganda, ngo bitunganye.

Mu murima munini udahinze harimo igihingwa cy'imyumbati kikiri gito iki gihingwa kikaba gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse iyo gikuze kikaba gisarurwaho imyumbati myinshi yo kurya mu rugo ndetse indi igakurwamo ifu y'ubugari.

Ahantu mu gishanga kinini harimo abahinzi bari guhinga bakoresheje kimwe mu bikoresho gakondo bikoreshwa mu buhinzi kizwi ku izina ry'isuka, aba bari kugenura igihingwa cy'umuceri ndetse banakibagara.

Mu gasoko gacururizwamo ibijyanye n'umusaruro ukomoka ku buhinzi, harimo umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara n'umweru, uyu akaba afite mu biganza bye bimwe mu bikomoka ku musaruro w'ubuhinzi urugero twavugamo nk'imyembe.

Iruhande rw'umusozi uriho ibimera bitandukanye, hari inzu zubatswe mu buryo bugezweho hifashishijwe ibyuma, izi nzu zikaba zihingwamo ibintu bitandukanye birimo nk'imboga n'imbuto mu rwego rwo kugira ngo hahanganwe n'izuba rikomeye rishobora kuba ryatuma ibyo bihingwa byuma.

Agasozi kagufi kariho ibimera bitandukanye birimo nk'ibyatsi ndetse n'ibiti, hari kandi n'imwe mu nyamaswa izwiho kuba ari yo ya mbere nini ku butaka, iyi nyamaswa izwi ku izina ry'inzovu, ikaba ikunda kwirishiriza ibyatsi.

Imisozi miremire iteganye iriho ibihingwa bitandukanye urugero twavugamo n'ikawa iyi kawa ikaba itunganywa maze ikajyanwa mu masoko hirya no hino haba mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu maze bikinjiriza igihugu amafaranga.

Ishyamba ry'inzitane rigizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibihuru, iri shyamba rifite ibiti bikurura imvura bigatanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bikanakurura ba mukerarugendo bakishyura amafaranga igihugu maze ubukungu bukazamuka.

Umusozi muremure uriho ibimera bitandukanye birimo ibyatsi ndetse n'ibiti, ukaba unyurwamo nanone n'umuhanda muremure udakoze neza ndetse w'ibitaka, muri uwo muhanda harimo ibinyabiziga bitwara ibintu n'abantu bizwi ku izina ry'imodoka.

Umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara ari ahantu mu gipimo cy'ikawa kirimo ibiti byinshi by'ikawa, uyu akaba ari gukora igikorwa cyo kwita ku giti cy'ikawa kirekire kiri hafi kwera.

Umusozi muremure uriho ibimera bitandukanye birimo ibyatsi ndetse n'amashyamba, ayo mashyamba akaba akurura imvura, umwuka duhumeka ndetse none akaba akurura ba mukerarugendo maze bakishyura amafaranga.

Umuhanda w'ibitaka urimo abantu bagiye mu ngendo zitandukanye, ukikijwe n'umusozi muremure uriho ibiti birebire ndetse n'ibigufi nanone kandi ugakikizwa n'umurima munini urimo icyayi cyeze.

Uruhererekane rw'imisozi miremire, iriho ibimera bitandukanye cyane cyane ibiti. Ibi biti bikaba bikurura imvura ,bigatanga umwuka wo guhumeka ndetse bikanakurura ba mukerarugendo, bakishyura Igihugu amafaranga maze bigateza imbere ubukungu.

Umugezi munini ufite amazi adasa neza ndetse yanduye, uyu mugezi ukaba unyura hagati mu ishyamba ry'inzitane rigizwe n'ibiti birebire by'inganzamarumbo, uyu mugezi kandi ukaba ari ingirakamaro ku buhinzi aho abaturage bawukoresha mu kuhira ibihingwa byabo.

Ahantu ku musozi muremure hariho ibiti by'inganzamarumbo ndetse n'ibihuru, aha hakaba ari iwabo w'inyamaswa zitandukanye z'agasozi, urugero nk'inzoka, imihari ndetse n'izindi, aya mashyamba akaba akurura ba mukerarugendo.

Uruhererekane rw'imisozi miremire iriho ibimera bitandukanye birimo ibyatsi ndetse n'ibiti byifashishwa mu gukora ibikoresho birimo nk'intebe, ameza ndetse n'ibindi, iyo misozi ikaba ikurura ba mukerarugendo ndetse abaturage bakaba banayihingaho ibihingwa bitandukanye.

Umurima munini cyane uhinzemo imboga rwatsi, hakaba harimo abagore batatu bari gusarura ndetse no kwita kuri izo mboga, zikaba zijyanwa mu masoko maze zikagurishwa, zimwe muri zo zikanaribwa mu ngo.

Ababyeyi b'abagore barimo uwambaye imyambaro y'akazi ndetse n'inkweto zimurinda kuba yagira ikibazo ahura nacyo, bari mu murima uhinze neza ibishyimbo ndetse ukaba warashingiriwe hifashishijwe ibiti n'ibindi bikoresho birimo imishipiri.

Umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara, umutuku ndetse n'umweru, ari ahantu mu murima uhinzemo imboga, uyu afite mu ntoki ze umusaruro ukomoka ku buhinzi urimo inyanya ndetse na karoti.

Mu rwego rwo kugira ngo duhangane n'ihindagurika ry'ikirere, riteza cyane cyane izuba rikabije ndetse n'imvura ikabije, ubu ngubu hagezweho uburyo bwo guhinga mu bintu bimeze nk'inzu birinda izuba ryinshi ibihingwa cyangwa se imvura nyinshi.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, ari mu murima ukikijwe n'ibiti uhinzemo imboga. Uyu akaba yaje kuzisarura maze akazijyana mu rugo bakazirya cyangwa se akanazijyana ku isoko.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'inanasi kizwiho kugira isukari. Iki gihingwa gitewe neza ku murongo aho bigifasha kuba cyakura neza. Iyo kimaze kwera kikaba kijyanwa ku masoko kugurishwa.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara, yicaye ahantu mu byatsi iruhande rw'umusaruro we w'inyanya, uyu ari kuwushyira neza mu bikoresho byabugenewe kugira ngo awujyane ku isoko kuwugurisha.

Umurima munini cyane urimo igihingwa cy'ibishyimbo, giteye neza ku murongo ndetse hasigwamo umwanya uhagije, ibi ni bimwe mu bigize ubuhinzi bugezweho, butuma umusaruro ukomoka ku buhinzi wiyongera.

Umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ari gushyira umusaruro we w'inyanya mu mifuka, ibi ni mu rwego rwo kugira ngo awujyane ku isoko maze ahabwe amafaranga.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi bugizwe n'imboga ndetse n'imbuto, urugero twavugamo nk'imineke, inyanya, ndetse n'urusenda. Ibi ni bimwe mu bifasha umubiri mu kurwanya indwara zitandukanye ndetse no kugira ngo ugire ubudahangarwa.

Igihingwa cy'avoka ni kimwe mu biteza imbere abagihinga, impamvu ni uko zikunda kugurwa cyane kuko zikorwamo ibintu byinshi birimo amavuta, yaba ayo kwisiga ku mubiri cyangwa se n'ayo kurya mu biryo.

Mu rwego rwo kugira ngo Leta y'u Rwanda ihangane n'ihindagurika ry'ikirere mu buhinzi, hashyizweho gahunda yo kuzajya ibihingwa bivomererwa. Ibi bikaba bikorwa hifashishijwe imashini ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Mu rwego rwo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere rituma habaho ubushyuhe bwinshi maze ibihingwa bikuma, abahinzi bagirwa inama yo gukoresha ibikoresho bitandukanye byo kuhira imyaka yabo birimo nk'imipira maze bagasuka amazi ku bihingwa byabo.

Umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ari mu murima ukikijwe n'ishyamba rinini ry'inzitane, uwo murima uhinzemo imboga zizwi ku izina ry'amashu ndetse akaba ari kuzivomera.

Itsinda ry'abakozi ndetse n'abayobozi bambaye imyambaro y'akazi ifite amabara y'umweru, bakaba bakorera kimwe mu bigo bikomeye bitunganya ndetse bikanakora umusaruro ukomoka ku mata cyitwa Inyange.

Mu rwego rwo kugira ngo umusaruro ukomoka ku bihingwa wiyongere, Leta y'u Rwanda igira inama abahinzi gutera ku mirongo ndetse no gukurikiza gahunda yo guhuza ubutaka, ibi bikaba bituma umusaruro uva mu buhinzi wiyongera.

Umurima uhinzemo ibihingwa bikiri bito unyuramo igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu gukura amazi ahantu hamwe ajyanwa, ahandi ndetse kikanayuhira ibihingwa ibi bikaba bituma ibihingwa bituma mu gihe cy'izuba ryinshi.

Abantu bambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'inkweto zikoreshwa mu mirimo irimo nk'ubwubatsi n'ubuhinzi, bari ahantu mu muririma uhinzemo ibigori biteye ku murongo . Aba bari kuvomera ibi bihingwa bifashishije umupira uzana amazi.

Mu rwego rwo kugira ngo abahinzi bahangane n'ihindagurika ry'ikirere rikunda guteza ubushyuhe bwinshi bityo bigatuma ibihingwa byera, abahinzi bakoresha uburyo bwo kuvomerera ibihingwa byabo.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi ukenyeye igitambaro ari mu murima uhinzemo imboga, uyu ari gukora igikorwa cyo kuhira imyaka mu rwego rwo kugira ngo itazumishwa n'ubushyuhe bwinshi.

Mu kugira ngo abahinzi bahangane n'ihindagurika ry'ikirere riteza ubushyuhe ndetse n'izuba byinshi bishobora gutuma ibihingwa byabo byuma, ni ngombwa cyane ko hifashishwa uburyo bwo kuvomera ibihingwa byabo.

Ibikoresho bigezweho bifite amapine ndetse bikozwe mu byuma bifite n'amatiyo ayanyuramo amazi, birakoreshwa cyane mu kuhira ibihingwa iyo ari mu gihe k'izuba cyangwa se mu kindi gihe cy'ubushyuhe bwinshi bushobora kuba bwabangamira imikurire y'ibyo bihingwa.

Ibihingwa bihinze neza ku murongo hakurikijwe amategeko y'ubuhinzi bugezweho ndetse bikaba birikuhirwa hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo n'amatiyo, hirya yawo kandi hari ishyamba rinini rimo ibiti birebire by'inganzamarumbo.

Umuyoboro unyuramo amazi wubatswe neza hifashishijwe ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi birimo amabuye n'isima, uyu muyoboro ukaba unyuramo amazi akoreshwa mu bikorwa bitandukanye, birimo kuhira imyaka.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'umutuku ndetse akenye n'igitambaro, afite umupira munini uturukamo amazi, uyu akaba ari kuvomera imbuto ze mu gihe cy'izuba, izi mbuto zikaba zifite izina ry'inanasi.

Umuyoboro w'amazi wubatswe mu buryo bugezweho hifashishijwe ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi, urugero twavugamo nk'amabuye ndetse n'isima, uyu muyoboro ujyana amazi aho akoreshwa mu bijyanye no kuhira imyaka.

Ahantu harimo ibihingwa birimo ibigori bikiri bito ndetse bishishe, harimo itsinda ry'abagabo bari kuvomera ibyo bihingwa, bakoresheje amatiyo maremare anyuramo amazi, ibi ni mu rwego rwo kugira ngo bahangane n'ubushyuhe bwinshi bushobora gutuma ibyo bigori ibyuma.

Ahantu hitegeye, hahinze ibihingwa birimo icyayi ndetse hari n'ibiti birebire, hateganye n'imisozi miremire cyane. Iyi misozi usibye kuba icumbikiye inyamaswa z'ubwoko butandukanye, inakurura abakerarugendo bakaza kuyisura.

Imisozi miremire iriho ibimera bitandukanye, birimo nk'ibihingwa ndetse n'ibiti birebire. Iyi misozi ikorerwaho n'indi mirimo itandukanye dore ko inakurura ba mukerarugendo bakaza kuyisura.

Imisozi miremire ibiri iteganye iriho ibihingwa bitandukanye birimo ibishyimbo ndetse kandi ikaba inifiteho ibiti birebire, bitanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bikanakurura abakerarugendo.

Imisozi migufi n'imiremire iriho inzu zituwemo n'abantu ndetse n'ibindi bimera bitandukanye birimo ibiti ndetse n'isina zera ibitoki byaba ibibwa ndetse n'ibikorwamo imineke hengwamo urwagwa.

Ahantu hitegeye n'umusozi muremure uriho ibintu bitandukanye birimo ibyatsi ndetse n'ibiti. Ibyo biti bikaba bibazwamo imbaho maze nazo zikifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye. Birimo ibikoresho byo mu rugo. Urugero twavugamo nk'ameza n'intebe.

Agasozi gatuweho n'abantu benshi, kariho inzu nyinshi cyane inyinshi zubatswe mu buryo bugezweho ndetse zifite n'amabati y'umutuku, nanone kandi hari ubwoko bw'ibiti butandukanye, butanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Umusozi muremure uriho inzu zituwemo n'abaturage ndetse n'ibiti birebire by'inganzamarumbo, kuri uyu musozi kandi hariho ibihingwa by'ubwoko butandukanye birimo nk'ibishyimbo, ibigori ndetse n'ibindi.

Uruhererekane rw'imisozi iriho ibimera bitandukanye birimo ibyatsi ndetse n'amashyamba, hakurya kandi hari umusozi utuweho n'abantu ndetse uriho ibihingwa birimo insina zera ibitoki. Mu kabande k'aho kandi tuhasanga ibihingwa birimo nk'ibigori.

Mu kiraro cyubakishije ibiti harimo rimwe mu matungo maremare ryo mu rugo, rizwiho gutanga umusaruro urimo ibishingwe bikoreshwa mu buhinzi no kongera umusaruro ndetse rigatanga n'umusaruro w'amata.

Icyumba gikorerwamo ibijyanye n'ubworozi, harimo ibiraro byiza bikozwe mu mbaho ndetse no mu byuma, muri ibi biraro harimo amatungo magufi azwi ku izina ry'inkwavu akaba atanga umusaruro w'inyama.

Ibiraro byubatswe neza, byubakishije ibyuma ndetse binasakaje amabati, birimo inka nziza za kijyambere, zitanga umukamo ushimishije, izi kandi ziri kumwe n'umugabo wambaye imyambaro y'umukara n'umweru ushinzwe kuzitaho akazigaburira.

Umugabo wambaye imyambaro y'umukara ndetse n'inkweto zikunda gukoreshwa mu mirimo cyane cyane iy'ubwubatsi ndetse n'ubuhinzi ari guha amazi inka ye akoresheje ibase, nanone kandi hari igihingwa k'insina kera ibitoki.

Mu kiraro kiza cyubakiye ndetse gikikijwe n'ibiti bihuha umuyaga mwiza harimo inka nziza ifite amabara y'ikigina ndetse n'umweru, iyi nka ikaba yitabwaho maze na yo igatanga umusaruro urimo amata ndetse n'inyama.

Ahantu mu kiraro cyubatse neza cyane hifashishijwe urudandi ndetse n'imbaho harimo udukoko duto tuzwi ku izina ry'imishwi ,utu tukaba twitabwaho tugahabwa ibyo kurya ndetse n'imiti maze tukazavamo inkoko nkuru zitanga umusaruro w'inyama n'amagi.

Ahantu heza hari ubwatsi butoshye bw'amatungo, hari inka nziza zifite amabara atandukanye. Izi nka zikaba ziragirwa aho hantu maze zigatanga umusaruro wiganjemo amata ndetse n'inyama.

Mu kiraro gifite inkuta zubakishije amatafari harimo rimwe mu matungo magufi rizwi ku izina ry'ingurube, usibye gutanga umusaruro urimo inyama, iri tungo rizwiho no gutanga umusaruro w'ibishingwe ukoreshwa mu buhinzi.

Ibiraro byubatswe mu buryo bugezweho, hifashishijwe urudandi, muri ibi biraro harimo amatungo magufi azwi ku izina ry'inkwavu, iyo yitaweho akaba atanga umusaruro w'inyama.

Mu kiraro gikoze neza gifite inkuta zikozwe mu isima ndetse gisakaje amabati meza cyane, muri icyo kiraro hakaba harimo inka izwi cyane mu muco nyarwanda ku izina ry'inyambo, ifite amahembe maremare.

Mu kiraro cyubatse neza gifite inkuta zubakishije amatafari. inzugi z'ibyuma ndetse n'uruzitiro rw'ibyuma, harimo inka nziza ya kijyambere ifite amabara y'ikigina ndetse n'umweru. Iy'inka ikaba yitabwaho maze igatanga umusaruro urimo amata.

Mu kiraro cyubatswe mu buryo bugezweho cyubakishije amatafari ndetse gifite inkuta nziza, harimo inyamaswa izwiho kuba ari itungo rigufi ryo mu rugo rizwi ku izina ry'ingurube, iyi nyamaswa yitabwaho maze yakura ikabagwa igatanga umusaruro w'inyama.

Ahantu mu cyumba kirimo inkoko nyinshi ndetse n'udukoresho bifashisha bari kuzigaburira, izi nkoko zikaba ziganjemo amasake ndetse n'inkokokakazi bya kijyambere, bikaba byitabwaho maze bigatanga umusaruro urimo amagi n'inyama.

Mu gisambu kirimo ubwatsi butoshye harimo amatungo magufi azwi ku izina ry'ihene, ayo matungo ari kurisha aho acunzwe n'umuntu wambaye imyambaro y'umuhondo, ushinzwe kuyitaho.

mu kiraro kiri ahantu hitegeye hari ubwatsi butoshye cyubakishijwe imbaho zikozwe mu biti, muri iki kiraro harimo inka nziza ifite amabara y'umukara n'umweru ndetse ikaba irimo ubwoko bw'inzungu iyi nka ifite ibi icbiri rinini bikaba ari bimwe mu biyifasha kugira ngo itange umukamo uhagije.

Ikiraro kiza cyane kigari ndetse cyubatswe mu buryo bugezweho, kinasakaje amabati ndetse gikozwe mu byuma, kikaba kirimo inka nziza cyane za kizungu zitanga umusaruro mwinshi.

Ahantu mu cyumba hororerwamo inkoko za kijyambere, izi nkoko zikaba zitanga umusaruro mwiza cyane cyane iyo zororewe ahantu hazifasha gutanga umusaruro, izi nkoko kandi zikaba zihabwa ibyo kurya byiganjemo ibifite intungamubiri kugira ngo zigire umusaruro.

Inkoko nyinshi zo mu bwoko bwa kijyambere, ziganjemo cyane cyane inkokozi. Izi zikaba zitabwaho zikagaburirwa ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri maze nazo zigatanga umusaruro urimo amagi ndetse n'inyama.

Mu murima wahinzwe hakoreshejwe imashini ihinga, harimo umugabo wambaye imyambaro y'umweru, uyu afite agakapu ari gukuramo ingemwe, azitera aho iyo mashini yahinze.

Umusaruro w'ibinyampeke wumishijwe ndetse wanahunguwe, ukaba ukorwamo ibintu bitandukanye, birimo amafu yo kuvugamo ubugari cyangwa se n'ibindi birimo ibiryo by'amatungo yaba ayo mu rugo ndetse n'ayo mu mazi nk'amafi.

Mu rwego rwo kugira ngo umusaruro w'ibigori utangirika, iyo umaze gusarurwa uranikwa neza maze ugahungurwa, ugapakirwa mu mifuka. Aha ni mbere yo kugira ngo ujyanwe mu nganda maze ukorwemo amafu na yo akorwamo ibindi bintu bitandukanye.

Ubwoko bw'imbuto zitandukanye bwashyizwe mu matsinda, izi mbuto zikaba zijyanwa ahantu hahinze, zigashyirwa mu myobo maze zikitabwaho, nyuma y'igihe gito zigakuramo ibihingwa.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi wiganjemo umuceri, soya, ndetse n'ubushaza ibi bikaba biri mu bwoko bw'ibinyampeke bitera umubiri imbaraga ndetse bikanawufasha mu kwirinda indwara.

Igihingwa k'ibigori iyo kimaze gusarurwa, kikumishwa neza, kigahungurwa, kibikwa neza mu mifuka ahantu hatagera ubukonje maze kikazajyanwa mu ruganda kigakorwamo ifu ikorwamo ibintu bitandukanye birimo nk'akawunga.

Imbuto zikomoka ku binyampeke, izi mbuto zikaba zijyanwa mu murima ahantu haahinzwe zigacukurirwa imyobo maze zigatabamwo, imvura yagwa zikazamuka zikavamo ibimera bikuru maze nabyo bikera izindi mbuto.

Abantu bambaye imyambaro yabugenewe y'akazi irimo ingofero zibarinda mu gihe k'impanuka zifite amabara y'umuhondo, bari ahantu mu ruganda rurimo imashini zitandukanye zifashishwa mu gukora akazi kabo ka buri munsi.

Mu nzu ikorerwamo imirimo yo kubaga inyamaswa mu buryo bufite isuku izwi ku izina ry'ibagiro, harimo umugabo wambaye akarindantoki ndetse akaba afite inyama nini yavuye ku nyamaswa amaze kubaga.

Mu biraro byubatse neza byubakishijwe ibyuma, harimo inka zizwi cyane cyane mu muco nyarwanda ku izina ry'Inyambo, izi nka zikaba ari ikimenyetso cy'umuco nyarwanda ndetse zifite n'amahembe maremare.

Mu kiraro cyubakishije inkuta z'amatafari harimo umugabo wambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, uyu ari gutera urushinge ingurube ifite uburwayi mu rwego rwo kugira ngo ikire.

Itsinda ry'abantu bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, bamwe muri bo bambaye n'uturindantoki, bakaba bari kwita ku nka izwi ku izina ry'Inyambo, bakaba bari kuyivura indwara zitandukanye.

Abagabo barimo uwambaye uturindantoki dufite ibara ry'ubururu, ari gukoresha imikasi avura inka ifite ibikomere. Iyi nka ikaba iryamye hasi nyuma yo gukomereka maze uwo mugabo akaba ari kugerageza kuyidoda hifashishijwe imikasi ndetse n'ibindi byuma.

Mu kiraro cyubatswe hifashishijwe ibyuma harimo inka ifite ibara ry'umukara, iyi nka iri kwitabwaho n'umugabo wambaye imyambaro y'akazi ndetse n'uturindantoki aho ari kuyivura indwara.

Mu kiraro cyubakishije ibyuma ndetse gifite ibara ry'icyatsi kibisi, harimo inka ifite ikibazo cy'ubuzima ariko kandi iri kwitabwaho n'umuntu wambaye imyambaro y'akazi irimo impuzankano ndetse n'uturindantoki, uyu akaba ari kuyitera urushinge.

Ahantu habugenewe, harimo umusore ndetse n'inkumi, bambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi bakoresha mu kazi, aba bakaba bafite inkoko ndetse bakaba bari kureba ko nta kibazo ifite, muri iki cyumba kandi harimo izindi nkoko nyinshi, zorowe mu buryo bwa kijyambere.

Umugabo wicaye ku ntebe zigezweho ndetse wambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru, yifashishije uturindantoki dufite amabara y'ubururu ndetse n'icyuma k'ikoranabuhanga, ari kwegeranya ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe ku ndwara mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi.

Ibiraro bikozwe hifashishijwe ibikoresho birimo imbahu zibazwa mu biti, ibi biraro byororerwamo cyane cyane amatungo magufi arimo nk'inkwavu cyangwa inkoko maze ayo matungo na yo agatanga umusaruro w'inyama.

Mu gisambu gifite ubwatsi butoshye ndetse gifite n'ibiti birebire by'inganzamarumbo, harimwo ishyo ry'inka zizwi ku izina ry'inyambo, izi nka zikaba zizwiho kuba ari ikimenyetso cy'umuco nyarwanda ndetse zikaba zigira n'amahembe maremare.

Umuntu wambaye uturindantoki dufite ibara ry'ubururu, afite igikoresho k'icyuma, ari gukoresha ubuhanga afite mu kuvura itungo ,uyu akaba ari gukoresha utwuma aribaga ndetse anarishyirira umuti mu gikomere.

Mu kiraro cyiza cyane cyubakishijwe ibiti ndetse gifite inkuta zubakishije amatafari, harimo inkoko z'ubwoko butandukanye, zirimo izifite amabara y'umukara, ikigina ndetse n'umweru izi nkoko zikaba ziganjemo inkokokazi zitera amagi.

Bitaruye umusozi hari abagabo batanu bane muri bo bambaye impuzannkano ifite ibara ry'ubururu abo bagabo bakaba bari ahantu hari inka izwi ku izina ry'inyamboba bari kwita kuri iyo nka iyo nka uko yitabwaho ikaba ari nako itanga umusaruro urimo inyama ndetse n'amata.

Mu cyumba cyabugenewe kiberamo ubushakashatsi ku bijyanye n'indwara z'amatungo harimo abantu bambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'ubururu bweruye, aba kandi bakaba barimo umugabo ufite igikoresho cyifashishwa mu gupima mo imbere mu mubiri h'inyamaswa.

Mu gisambu kinini kirimo ubwatsi butoshye ndetse n'ubwumye, harimo ishyo ry'inka z'inyana, izi zikaba zambaye amaherena yerekana ko zahawe urukingo ndetse zikaba ziri no kunywera amazi mu runywero.

Ibiraro bikozwe mu byuma bifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse bikaba birimo inka zizwi cyane k'i izina ry'inyambo zifite amahembe maremare, hakaba kandi hari n'abantu bambaye imyambaro y'umweru bashinzwe kwita kuri izo nka ngo zigire umusaruro.

Ahantu mu cyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amatungo, harimo itsinda ry'abasore bambaye imyambaro y'akazi, aba bari kwita ku mbwa yagize ikibazo bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu buvuzi.

Ahari ubwatsi butoshye ndetse n'ibiti by'inganzamarumbo hari n'ikiraro gikoze mu byuma ndetse kikaba kirimo n'inka zizwiw'i izina ry'inyambo mu muco nyarwanda, hari kandi n'abantu bambaye imyambaro y'umweru bashinzwe kwita kuri izo nka mu gihe zirwaye.

Ahantu akomye hari igice kinini kiriho ubwatsi butoshye ndetse n'amashyamba, hari imwe mu nyamaswa iziwiho kuba ari yo nini cyane ku butaka. Iyi ikaba izwi ku izina ry'inzovu ndetse ikaba yibera ahantu ikurura ba mukerarugendo.

Ahantu hari ubwatsi butoshye, harimo akanyamaswa ko mu ishyamba gafite ibara ry'ikigina, aka gafite amahembe maremare ndetse kakaba kazi kwiruka, ibi bikaba bigafasha iyo hari nk'inyamaswa y'inkazi iri kukiruka inyuma ishaka kukica ngo ikarye bikaba bigafasha guhunga.

Mu cyanya k'inyamaswa giherereye ahantu hakomye, harimo inyamaswa y'inkazi ifite ibara ry'ikigina, iyi nyamaswa ibeshejweho no guhiga izindi nyamaswa ikazica, ikazirya kuko ari indyayama idashobora kurya ibyatsi.

Iyi nyayamaswa y'inzoka iba ifite umubiri uriya amagaragamba ndetse unakomeye uyifasha kuba ahantu hagoranye hari nk'ubushyuhe bwinshi cyangwa se ubukonje bwinshi, iyi nyamaswa ikaba yirira udusimba turimo nk'amasazi.

Inyamaswa z'imparage ziba zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru zikunda kwibera ahantu hakomye cyanecyane aho zidahura n'izindi nyamaswa z'indyanyama zishobora kuba zazibonamo umuhigo, ibi bikaba biziha umutekano maze zikororoka.

Ahantu mu cyanya gikomye harimo inyamaswa ebyiri, imwe izwi ku izina ry'imparage ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, iyi ikaba iri kuribwa n'inyamaswa y'inkazi ifite amenyo maremare izwi ku izina ry'intare.

Inyamaswa zo mu bwoko bw'inyoni zifite amabarabereye ijisho, izi nyamaswa zibera mu biti ndetse no mu mashyamba, zikaba zikunda kwirira utundi tunyamaswa turimo n'iminyorogoto.

Mu cyanya gikomye kirimo ibyatsi ndetse n'ibiti by'amoko yose, harimo inyamaswa zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru zizwi ku izina ry'imparage, izi nyamaswa zikaba zikunda kwirishiriza mu byatsi.

Ahantu hakomye hari ibiti birebire, harimo inyamaswa z'inkazi zizwi ku izina ry'intare, izi nyamaswa zikaba zizwiho kugira amahane ndetse n'amenyo maremare ndetse zikaba zikunda no kurya inyama ari nayo mpamvu izindi nyamaswa zizitinya.

Mu cyanya cyahariwe inyamaswa, harimo akanyamaswa gafite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, gafite n'amahembe maremare. Aka kanyamaswa kazwiho kugira umuvuduko ndetse kakaba kanakunda kwirishiriza ibyatsi.

Inyamaswa y'inkazi yibera mu byanya bikomye, ifite amabara y'ikigina ndetse n'umukara, iyi nyamaswa ifite amenyo maremare ndetse izi no kwiruka, ibi bikaba biyifasha igihe iri guhiga, dore ko ibeshejweho no kurya izindi nyamaswa.

Iruhande rw'umugezi utemba, hari akanyamaswa gato gafite ishusho imeze nk'iy'ihene. Aka kanyamaswa kari kwirishiriza mu bwatsi butoshye dore ko katarya inyama, kakaba kandi gakunda kwihisha inyamaswa zirya inyama, dore ko zikabona nk'umuhigo.

Zimwe mu nyamaswa zo mu bwoko bw'inguge zizwi ku izina ry'ibitera, izi nyamaswa zikaba zikunda kwibera ahantu hari ibiti birebire ndetse no mu bihuru, zikaba zizwiho kandi gutwara ibintu by'abaturage cyane cyane ibiribwa ndetse no kwangiza imyaka mu murima.

Mu ishyamba ry'inzitane rigizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibihuru, harimo inyamaswa zitandukanye zirimo amatungo yo mu rugo, urugero twavuga nk'inka nanone kandi harimo inyamaswa yo mu ishyamba yo mu bwoko bw'inguge.

Inyamaswa zo mu bwoko bw'inyoni, zifite amababa abereye ijisho, amabara y'umukara n'umweru ndetse n'umunwa muremure, izi zibeshejweho no gutoragura ndetse no kurya utunyamaswa turimo iminyorogoto.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'inyoni y'amaguru maremare, amababa y'umukara ndetse n'umweru n'ijosi rirerire n'umunwa w'umutuku, yibereye ahantu mu gishanga, hari amazi menshi ndetse ikaba yaje guhiga utunyamaswa, turimo nk'amafi.

Ahari ibyatsi bitoshye bifite ibara ry'icyatsi kibisi, harimo imwe mu nyamaswa izwiho kuba ari itungo rigufi ryo mu rugo ifite izina ry'ihene. Iyi nyamaswa ikaba iri kwirishiriza muri icyo cyanya dore ko yirira ibyatsi gusa itajya irya inyama.